Igikuta cy'umuhondo gishushanyijeho ingorofani y'ubururu ndetse inyuma yayo hashushanyije umwiko, akenshi amashuri y'incuke akunze kubakwa muri ubu buryo kugira ngo bifashe abana kwiga neza kuko bo bafata ndetse bakumva vuba iyo bareba amafoto cyangwa ibishushanyo.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri guca imirongo itandukanye bizwi nk'amarate, ayo marate akaba arimo ubwoko butandukanye, harimo iyifashishwa guca umurongo ugororotse, harimo iyifashishwa guca umurongo ufunze cyangwa se uruziga, harimo n'indi yifashishwa gupima inguni igororotse.

Ibyumba by'amashuri biri mu nyubako igeretse ikaba ifite ibyumba hasi ndetse no hejuru, ibyo byumba by'amashuri bikikishije inzugi ndetse n'amadirishya y'icyatsi ndetse bikaba biteye amarange y'umweru ku nkingi. Bikaba byubakishije amatafari ahiye, iyo nyubako isakajwe amabati y'ubururu.

Umuryango mugari winjira mu kigo cy'amashuri yisumbuye, cya Rukomo. Hejuru y'uwo muryango w'icyatsi, handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, aha ikaze abantu bose baza bagana icyo kigo cy'amashuri yisumbuye, cya Rukomo.

Abantu benshi abagabo n'abagore bari kugendagenda ahantu hameze nko mu kigo k'ishuri kuko inyuma yabo hari inzu igaragara nk'ishuri, abo bantu bambaye amajire y'icyatsi bari kugenda bagendagenda bameze nk'abari kugenzura isuku.

Abana b'abakobwa batatu biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'icyatsi hasi ndetse n'umweru hejuru, bakaba bicaye ku ntebe zera. Bafite urupapuro hagati yabo basoma ndetse banungurana ibitekerezo.

Abana b'abakobwa benshi cyane bahagaze biga mumashuri yisumbuye, bamwe bambaye imyenda y'ishuri abandi ntabwo bambaye impuzankano bafite impapuro barasa nkaho bari gusomaho indirimbo.

Abakobwa bane biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu bwerurutse cyangwa se ubururujuru ndetse n'amajipo y'ubururu bwijimye, bambaye inkweto z'umukara ndetse n'amakaruvati.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bicaye mu cyumba k'ishuri, bambaye impuzankano y'imyeru hejuru ndetse na kaki hasi, bicaye mu matsinda ya bane, bane barimo barafashanya basobanurana kugira ngo bumve amasomo yabo neza.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana b'abakobwa bari mu kigero cyo kwiga mu mashuri yisumbuye, abo bana b'abakobwa bambaye impuzankano y'amashati y'imyeru ndetse n'amajipo yenda gusa ubururu bwijimye, imipira yabo nayo irinda gusa n'amajipo yabo, imbere yabo hari undi mwana w'umukobwa uhagaze ari kubabwira, abandi nabo baramukurikiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Bicaye mu cyumba cy'ishuri, ku ntebe z'ubururu. Bambaye impuzankano y'amashati y'imyeru hejuru. Imbere yabo, hahagaze umubyeyi ufite indangururamajwi uri kubabwira. Afite impapuro ziriho ibyo ari kubabwira mu kandi kaboko. Yambaye agakoti k'umukara ndetse n'umupira w'ubururu bwerurutse. Hirya kuruhande, hari abandi bagabo nabo ubona ko bari kumwe n'uyu mubyeyi baje kwigisha aba bana.

Ibyumba by'amashuri bitaruzura neza, yaba inzugi yaba amasakaro ndetse n'imbuga, byose biragaragara ko bikiri bishyashya ndetse bitaratunganywa neza, imbere y'ibyo byumba hahagaze abana b'abanyeshuri ubona ko bari mu kigero cyo kuba biga mu mashuri yisumbuye.

Abasore nibo bari mu myaka yo kwiga muri kaminuza bicaye mu cyumba gitangirwamo amasomo, muri icyo cyumba harimo intebe nyinshi cyane kandi ni kigari bicaye ku myanya imwe y'imbere, inyuma hasigaye izindi ntebe nyinshi ziticayeho abantu baricaye barakurikiye bari guseka kandi hari ibyo uri imbere ari kubabwira byabasekeje.

Umusore ukiri muto, uri mu kigero cyo kuba yiga muri kaminuza, yambaye agapira k'ubururu bwijimye, inyuma ye harimo akabati karimo ibitabo bigiye bitandukanye, bigaragara ko yicaye mu isomero, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa.